Abagabo bari mu nama aho umwe arimo kubafotora abandi bakaba barimo kwandika. Aha ni igihe abantu baba bahuye bafite ibintu byinshi byo kuganiraho, buri muntu yandika ibigomba kumufasha.

Umugabo wambaye neza kandi imbere ye hari amazi, agatabo na telefone, aho bivuze ko yicaye imbere y'abantu aho agiye gutanga ikiganiro, ni ahantu habere nk'intama cyangwa ibindi bintu bihuza abantu.

Abantu bicaye hano hamwe harimo abadamu ndetse n'abagabo. Aho bitegereje neza ahantu barimo kureba barimo guhabwa ikiganiro. Aha hantu habaye nk'inama cyangwa izindi gahunda zihuza abantu.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, aho bari mu gikorwa cyo gukora ubukangurambaga bwa gerayo amahoro, iki ni igikorwa gikorwa na polisi kugira ngo hirindwe impanuka ndetse no gutwara ibinyabiziga abantu basinze, bigatuma bashishikariza abantu, kugerayo amahoro batwara ikinyabiziga gakeya kandi batwara batanyoye inzoga.

Abantu bamwe baricaye abandi babiri bari imbere, bambaye imipira y'imweru n'amapantaro bijya gusa ubururu, bari mu gikorwa cy'ubukangurambaga bwo kumenya urubyiruko no kumenya amateka yawe.

Abantu benshi bicaye mu nzu bicaye mu ntebe z'umutuku harimo abagabo ndetse n'abagore aho bahanze amaso imbere yabo bakurikiye ikiganiro cyangwa inyigisho barimo guhabwa ni abantu bameze nk'abari mu nama cyangwa andi mahugurwa agiye atandukanye.

Hari abantu benshi bahuriye hamwe, aho harimo abashinzwe umutekano polisi abasirikare ndetse n'abayobozi, hari n'abaturage basanzwe aho basa nk'abaje gutanga ikiganiro cyangwa gukora ubukangurambaga runaka.

Abantu benshi bo mu nzego zitandukanye bicaye ahantu hamwe, ho harimo n'abashinzwe umutekano, abasirikare ndetse n'abapolisi, bivuze ko hari abayobozi basanzwe bicaye ahantu, aho habereye inama cyangwa izindi gahunda zihuza Leta n'abaturage.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe kandi harimo abambaye imipira y'umweru n'ingofero bisa bivuze ko baje mu gikorwa kimwe, barimo guhanga amaso ahantu hagiye hatandukanye ariko bameze nk'abantu bari kureba ahantu hamwe, aho barimo kureba umuntu uri kuba ikiganiro bakaba bari nko mu nama.

Abantu bahuriye ahantu hamwe, harimo abadamu, abana ndetse n'abagabo, imbere yabo kandi hari abadamu babiri bahagaze bafite indangururamajwi barimo gutanga ikiganiro, ni ahantu habereye nk'igikorwa runaka gihuza abantu cyangwa inama.

Umugabo wambaye rineti ndetse n'ishati irimo imirongo y'ubururu ahagaze imbere y'abantu aho arimo gutanga ikiganiro, akenshi ibi bikorwa habaye nk'inama cyangwa amahugurwa runaka aho umuntu ahagarara imbere y'abantu agatanga ikiganiro.

Abantu batandukanye kandi bambaye neza bari ahantu mu nzu bicaye hamwe aho bakurikiye imbere, hari umuntu urimo kubaha ikiganiro, bari mu nama cyangwa mu munsi mukuru cyangwa ikindi gikorwa cyose cyahuriza abantu benshi hamwe.

Agacuma. Agacuma ni kimwe mu gikoresho kizwi nk'umuco uranga Abanyarwanda. Aka gacuma gakoreshwa cyane cyane iyo abantu barimo kunywa inzoga cyangwa ibindi bitandukanye.

Abakobwa ndetse n'abahungu barimo kubyina imbyino Nyarwanda. Iyi ni imbyino igaragaza umuco Nyarwanda aho baba bambaye imyenda imeze nk'iy'abantu ba kera bagaragazaga umuco Nyarwanda babyinana, harimo imikenyero, kwambara urunigi, ndetse n'amayugi.

Imisambi aha ni mu isoko aho abantu bagiye gucuruza imisambi akenshi imisambi imeze gutyo iba yaboshywe n'abaturage basanzwe aho bajya guca ubwatsi bakabukubita bukuma barangiza bakaboha umusambi ibi ni bimwe mu bigaragaza umuco nyarwanda kuko akenshi uyu musambi niwo wifashishwaga kera mu gihe cya kera hataraza iterambere.

Ibikoresho bigaragaza umuco nyarwanda, akenshi ibi ngibi abantu babinyweramo amata na none kandi bikagaragaza umuco nyarwanda akenshi iyo habaye nk'ubukwe, aho bafata abantu bake, bakanywa amata bakoresheje ibi bikoresho.

Abantu benshi bari mu gikorwa kimwe bafite ibikoresho byifashishwa mu guhinga cyangwa se gukora amasuku, igikorwa gihuza abantu bangana gutya gikunze kuba mu mpera z'ukwezi za buri kwezi hano mu Rwanda, igikorwa kitwa umuganda aho bajya gukora igikorwa gifitiye inyungu abaturage.

Itsinda ry'intore, aho barimo kubyina mu muco nyarwanda. Ni abana b'urubyiruko, aho imbere yabo hari ingoma, abandi bafite indangururamajwi, barimo kubyina, bakoresheje imbyino gakondo cyangwa imbyino z'umuco nyarwanda.

Abantu bahuriye hamwe, imbere yabo hari umuntu urimo kubyina, arimo kubyina imbyino nyarwanda kandi igaragaza umuco nyarwanda ,aho yambaye n'imyambaro igaragaza umuco nyarwanda, harimo; imyenda y'imikenyero, urunigi, ndetse n'amayugi.

Abahungu barimo kubyina imbyino y'umuco Nyarwanda, bambaye imyenda igaragaza umuco Nyarwanda, harimo imikenyero, urunigi, amayugi, ndetse n'indi. Iyi mbyino ni imwe mu igaragaza umuco abanyarwanda dufite mu bijyanye no kubyina.

Abagabo babiri bari hejuru y'amabati, barimo gutunganya umurasire, uyu ni umurasire utanga umubariro w'amashanyarazi ariko biturutse ku murasire w'izuba, ukurura umuriro uturutse mu murasire w'izuba maze ukabasha gutanga amashanyarazi.

Ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi. Aho ikigo kibishinzwe mu Rwanda ari REG. Aho ushinzwe gukemura ibibazo byinshi by'amashanyarazi. Aha ngaha rero ni ahantu haba hari ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi, aho usanga haturuka insinga nyinshi zijya mu baturage kugira ngo umuriro ubashe gukwirakwira mu bantu bose kandi bawukoreshe.

Ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi ririmo kubakwa ahantu, aha ni ahantu bubaka hakaba haba haturuka umuriro mwinshi w'amashanyarazi ujya mu bice bitandukanye, kugira ngo abaturage babashe kubona umuriro uhagije.

Ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi, aha ni ahantu haba haturuka umuriro w'amashanyarazi ugenda mu bice bitandukanye kugira ngo ubashe gukwirakwira abantu bawubone akenshi haba ari insinga ndende ndetse n'amapoto maremare ajyana umuriro mu baturage uturuka aha ngaha.

Ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi. Aha ni ahantu haturuka umuriro mwinshi, aho uba ugenda ujya mu bice bitandukanye kugira ngo umuriro ukwire mu baturage, babashe gukora ibikorwa bikenera umuriro nta kibazo. Hejuru hariyo abantu babiri, aho bashinzwe ibijyanye n'amashanyarazi bakaba barimo kubyitaho.

Muri kaburimbo ahantu hari imihanda ibiri ugenda ndetse n'ugaruka, hagati y'aho kandi hari kamera ishinzwe gucunga ibinyabiziga n'imba bitari kugenda ku muvuduko munini, harimo n'amatara kandi amurikira abatwazi cyangwa abashoferi nijoro kugira ngo hirindwe impanuka.

Ipironi, ipironi ni igice gishinzwe gutanga amashanyarazi aho bakura ikintu kirekire bakanyuzaho insinga, kugira umuriro w'amashanyarazi uve mu gace kamwe ujya mu kandi.

Amatara yo ku muhanda. Aya ni amatara amurikira muri kaburimbo kugira ngo ibinyabiziga bitambuke neza bidakora impanuka. Rimwe rirareba mu muhanda umwe, irindi rirareba mu wundi. Ibi ni bimwe mu bituma impanuka zigabanuka zo muri kaburimbo kuko abayobozi b'ibinyabiziga baba barimo kubona neza.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga burije, amatara arimo kumurika, bivuze ko ari imbaraga z'umuriro w'amashanyarazi zituma aya matara yo ku muhanda amurikira ibinyabiziga ari kimwe mu buryo bwo kwirinda impanuka kuko abantu batwara ibinyabiziga amatara aba ari kubamurikira babona neza.

Amapironi, amapironi ni igikoresho cyubakwa ahantu kirekire kugira ngo kibashe kunyuraho insinga zijyana amashanyarazi mu kandi gace aho ari kimwe mu bifasha kugira ngo umuriro w'amashanyarazi ukwirakwire ahantu henshi hatandukanye.

Ikusanyirizo ry'umuriro w'amashanyarazi, aha ni ahantu umuriro w'amashanyarazi uba uri ari mwinshi, noneho bagakuraho insinga zigenda zijya mu baturage kugira ngo umuriro ubashe gukwirakwira hose.

Inyubako igaragaza aho amashanyarazi ahurira akenshi ahangaha ni ihuriro ry'umuriro w'amashanyarazi aho haba hari imbaraga nyinshi ziwufata zikawujyana mu bindi bice bihegereye kugira ngo abaturage babashe gucana ndetse no gukoresha ibindi bikorwa byose bikenera umuriro.

Abayobozi barimo abashinzwe umutekano, abasirikare ndetse n'umupolisi, baje gufungura igikorwa cyubatswe na Leta aho kimeze nk'ikiraro, bivuze ko bagiye gutangira kugikoresha hakaba haje abayobozi kugira ngo batangire icyo gikorwa.

Inyubako igeretse rimwe, ni inyubako y'ibiro by'akarere ka Nyagatare, aha ni hamwe abayobozi b'akarere baba bari, mu gihe ukeneye ko bagufasha ni ho wabasanga, haba harimo nk'umuyobozi w'akarere ndetse n'abandi bamwungirije.

Ahantu itaruye hari inyubako munsi y'umusozi. Umusozi uri mu ishyamba. Inyubako imeze nk'uruganda cyangwa ikindi gikorwa cyubatswe n'ubuyobozi bw'igihugu hagamijwe guteza imbere aka gace.

Inzu yubatse ahantu hanini ndetse haparitse n'ibinyabiziga, birimo nka moto. Aho biba byagemuye amata . Bivuze ko ari ikusanyirizo ry'amata.

Imodoka nini itwara abagenzi irimo umuhanda yacanye amatara abantu benshi bari iruhande rwayo bameze nkabari ku kumurongo, inyuma yaho hari inyubako nini cyane imeze nk'uruganda.

Icyapa kiriho indangagaciro z'abaturage batuye umudugudu wa kinihira. Indangagaciro harimo gukunda igihugu, gukorera ku ntego, gusigasira ibyagezweho. Kirazira harimo kugambanira igihugu, kutubahiriza gahunda za leta, kirazira gusenya ibyagezweho. Ibi ni bimwe mu biranga abaturage bo mu mudugudu wa kinihira.

Umuhanda uri ahantu mu nyubako zitandukanye, umuhanda uri ahantu hameze nko mu mujyi wo hagati yaho hari ahantu abanyamaguru bambukira kandi uyu muhanda nta kinyabiziga kirimo, ahubwo imbere yawo hari uduti dutoya duteyeho uturabo ndetse hakaba n'inzira y'abagenzi nawo nta muntu urimo.

Ikiraro cyubatse neza, akenshi icyaro gikorwa iyo hari nk'ahantu hari umugezi cyangwa haracitse mo kabiri kugira ngo babashe guhuza agace kamwe n'akandi kandi nanone iki kiraro gikunze kubakwa n'ubuyobozi.

Inzu iri mu marange y'ubururu yanditseho gira ubuzima, bivuze ko ari ivuriro aho abarwayi bajya bakajya kwivuriza imbere yabo kandi hari abantu bahagaze bambaye mu nsankano harimo abadamu n'abagabo aho barimo kwifotoza ndetse bakaba ari no kubyina umuntu umwe arimo ufata video ku bandi barimo kubyina.

Inzu iri mu marange y'ubururu aho yanditseho icyapa kivuga ngo Gira ubuzima, bivuze ko aba ari ivuriro ritoya ryegereye abaturage aho abarwayi barwara bakajyayo kugira ngo abaganga babashe kubasuzuma babahe imiti, hari abarwayi bicaye ndetse n'abandi bahagaze bagiye kwivuza.

Inzu nziza kandi yubatse neza, imbere y'aho hari ibimera bitandukanye harimo ibigori ndetse n'ibishyimbo, aya ameze nk'amashuri yubatswe na Leta kugira ngo harushweho kunoza uburezi.

Inzu nziza iri mu marangi y’ubururu, hariho icyapa cyanditseho Gira ubuzima helifu positi, bivuze ko ari ahantu abarwayi bajya kwivuriza cyangwa kwa muganga. Akenshi amaze ameze gutya aba ari amavuriro yegerejwe abaturage kugira ngo nibarwara, baze kwivuza badakoze urugendo rurerure.

Igikorwa remezo cyo kubaka umuhanda ni ahantu hari imisozi ariko hakaba harimo kubakwa umuhanda kugira ngo bubashe gufasha abantu baho gukora ingendo mu buryo buboroheye. Iki ni kimwe mubikorwa gitwarwa amafaranga menshi cyane ariko ubuyobozi bwacu bugerageza kukigeza ku baturage.

Abayobozi bicaye barimo kuganira harimo n'abashinzwe umutekano nka Dasso ndetse n'abandi, imbere yabo hari amakayi ndetse n'amazi yo kunywa bameze nk'abari mu gikorwa cyangwa inama aho barimo gutanga ibiganiro.

Abantu benshi bahagaze hamwe harimo abagabo ndetse n'abagore, aho bafite inka imbere yabo, bambaye furari zigaragaza ko bari mu gikorwa cyo kwibuka, imbere yabo kandi hari inka bisa nk'aho bagiye kuyiha umuntu kugira ngo abashe kwiteza imbere.

Umuyobozi arimo gutanga ijambo, aho abaturage ndetse n'abandi bayobozi harimo n'abashinzwe umutekano bamuteze amatwi bamukurikiye, muri bo bashinzwe umutekano harimo abapolisi.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe aho abenshi bicaye umugabo umwe niwe uhagaze afite indangururamajwi. Ni ahantu haba habaye nk'inama cyangwa ikindi gikorwa gihuza abaturage ndetse n'abayobozi, bakaba barimo guhabwa ikiganiro.

Abayobozi batandukanye ndetse n'abandi bantu benshi bari mu gikorwa kimwe, iki ni gikorwa cyo kwibuka aho kandi cyabaye nijoro, ni mu gihe abaturage bahurira hamwe barimo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi igihumbi kimwe magana kenda na mirongo ikenda na kane.

abantu b'abagabo bahagaze hano bamwe aHo barimo kuganira, ni abantu bameze nk'abayobozi baje kwitabira igikorwa runaka, inyuma yaho kandi hari urutoki rwiza cyane ndetse Habaparitse n'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo aho harimo umuntu utwaye igare ahetse undi muntu, imbere yabo kandi hari icyapa cyanditseho mirongo itandatu, bivuze ko ikinyabiziga cyose kigendera hano kigomba kugendera ku muvuduko wa kilometero mirongo itandatu mu isaha.

Mu umuhanda wa kaburimbo uri ahantu hatambika. Ntihaterera nta n'ubwo hamanuka. nta kinyabiziga kirimo, ni umuhanda ubereye aho. Impande yawo kandi hari inzu ndetse n'imbere yaho gato hari abantu bari kugenda mu nzira y'amaguru.

Icyapa kiri mu marange y'ubururu aho kiri kugaragaza urusengero rwa EPR, aho hariho metero mirongo itatu na nimero zo guhamagara, bivuze ko uvuye hano ujya yo ugana ruguru metero mirongo itatu waba ugezeyo.

Umuntu atwaye igare muri kaburimbo, nta muntu ahetse ku ruhande gato hari undi munyamaguru urimo kugenda, aho umuntu utwaye igare arenze inzira abanyamaguru bakunda kwambukiramo muri kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ya kwasiteri itwara abantu. Aha ni muri kaburimbo aho imodoka iba igiye ahantu kure ivanye abantu hamwe ibajyana ahandi, akenshi abantu baba bishyuye imodoka nayo ikabagezayo amahoro.

Icyapa, icyapa kiranga umuhanda cyangwa kigaragaza aho hantu ukuntu hitwa, akenshi umuntu ubisobanukiwe akoresha ino mibare kugira ngo ibashe kumuyobora kugira ngo ahagere, akenshi kandi ibu byapa bikunze kuba biri ahantu ku muhanda kugira ngo bibashe kuyobora abantu.

Umuhanda wa kaburimbo hariho icyapa cyanditseho e na ijana na mirongo itanu na kabiri esi ti bivuze ko iki cyapa ari indangahantu. Aho umuntu uzi kino cyapa ashobora kumuyobora akahagera.

Imodoka yitwa coaster, ni imodoka iri muri gare aho iba itegereje abagenzi, mwene izi modoka ubu usanga zifata abagenzi zikabakura ahantu hamwe zikabajyana ahandi, abagenzi icyo basabwa ni ukwishyura, iyi modoka yitwa coaster akenshi ziba zijya mu ntara zituruka i Kigali cyangwa se zijya ahandi hantu hatandukanye ariko akenshi zikora urugendo rurerure.

Umuhanda w'igitaka ariko urimo kwitwa kwitabwaho ngo ukorwe neza. Harimo imashini imwe mu bikora umuhanda irimo kubitunganya neza. Ni ahantu hari umuhanda uringaniye akenshi umuhanda ukorwa n'imashini zitandukanye kugira ngo ubashe kuba wamera neza.

Imodoka ebyiri kandi ziri mu bwoko bumwe, imodoka ziri ahantu bigishiriza gutwara imodoka akenshi zikoreshwa bari gukora ibizamini bya perimi cyangwa byo uruhushya rwo gutwara imodoka cyangwa se umuntu uri kwitegura icyo kizamini arimo kubyiga kugirango ngo najya gukora ikizamini cyo gutwara abone uruhushya bimworoheye.

Abantu batandukanye harimo n'abayobozi bari mu gikorwa rusange, ni abantu bahuriye ahantu benshi kandi ni abantu benshi, aha haba habaye nk'inama cyangwa undi munsi mukuru uhuza abayobozi n'abaturage.

Abayobozi batandukanye barimo gutambuka, ni ahantu hameze nk'ahabereye icyirori runaka cyangwa bakaba basuwe, abaturage basuwe n'abayobozi, inyuma yabo hari abayobozi bahari, hari abantu barimo kubitegereza, aho bafite imitaka n'ibindi.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye bari mu gikorwa kimwe, aho bamwe bafite amasuka abandi bafite imihoro, bivuze ko bari mu gikorwa rusange akenshi kitwa umuganda, bakunda kuza cyangwa gukorwa mu Rwanda mu mpera z'ukwezi, harimo abashinzwe umutekano harimo abasirikare, abapolisi ndetse na dasso.

Umudamu w'Umupolisi, uyu abashinzwe umutekano aho aba yahisemo kujya mu kigo gishinzwe umutekano nka Polisi agahabwa imyitozo ndetse akabyigira, ni Umupolisi uri ku rwego rwo hejuru kuko afite inyenyeri ebyiri ari mu biro bye aho aba yaje mu kazi.

Abantu benshi batandukanye, bari mu gikorwa rusange cy'umuganda. Aho bamwe bafite amasuka, abandi bakaba bahagaze, bategereje ko abandi bananirwa ngo babaruhure. Iki ni igikorwa gikunze kuba ingarukakwezi, kikabera hano mu Rwanda. Gikunda kuba kandi mu mpera z'ukwezi.

Abantu bo mu nzego zitandukanye bicaye hamwe, aho bameze nk'abari gutanga ikiganiro runaka mu bijyanye n'ubuyobozi cyangwa umutekano, harimo abashinzwe umutekano nk'umusirikare n'umupolisi kandi hari abandi bicaye bameze nk'abayobozi.

Abayobozi ndetse n'abashinzwe umutekano bari ahantu hamwe, aho baje gutanga inama cyangwa ikiganiro runaka, harimo umupolisi aho umupolisi yahagaze ameze nk'aho ari we ugiye gutanga ikiganiro.

Abayobozi ndetse n'abashinzwe umutekano harimo umupolisi umwe ndetse n'umusirikare umwe, bari imbere y'abaturage. Aho akenshi iyo byabaye baba baje gutanga ikiganiro cyangwa habaye nk'inama.

Abashinzwe umutekano ndetse n'abayobozi baricaye. Harimo abasirikare ndetse n'umupolisi n'abayobozi basanzwe. Imbere yabo kandi hari umudamu urimo kubaha ikiganiro nano hakaba hari umukamera uri kubakamera.

Abakobwa barimo gukina umupira nka kimwe mu mirimo ngororamubiri, ikipe imwe yambaye imyenda y'umukara indi yambaye ubururu n'umweru, aho abakobwa barimo gukina umupira mu kibuga cy'itaka gusa.

Abantu babiri bari mu kibuga, ariko buriya n'ahandi hari abakinnyi, aho barimo gukina umupira w'amaguru nka kimwe mu mirimo ngororamubiri, ni abakinnyi babiri, bameze nk'abaturuka mu ikipe imwe kuko bambaye impuzankano zisa, bameze nk'abari gukina umupira w'amaguru.

Abantu barimo kwirukanka muri kaburimbo. Nta kindi kinyabiziga kirimo kandi burije. Bambaye imyenda yifashishwa mu gukora imirimo ngororamubiri. Aho barimo kwirukanka kugira ngo bagorore umubiri. Ni abantu benshi kandi harimo abagabo n'abagore.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru ari mu kibuga, ikibuga k'itaka nta byatsi birimo, aho yambaye imyenda yo gukina umupira ikabutura z'ubururu ndetse n'umupira urimo amabara y'icyatsi.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru ari mu kibuga, inyuma ye kandi hari undi mwana na we usa n'uri gukina umupira, umukinnyi yambaye ikabutura y'ubururu ndetse irimo amabara y'icyatsi.

Abantu benshi cyane cyane bari mu rungano urubyiruko bari mu kibuga cyangwa muri stade, aho barebera umupira w'amaguru cyangwa indi mikino ngororamubiri. Aha ni baba bicaye bari kureba neza mu kibuga aho abakinnyi baba bari gukinira.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru amakipe abiri ari gukinira mu kibuga kiza kirimo ubwatsi ikipe imwe yambaye umuhondo n'umupira ujya gusa n'umweru indi yambaye umukara n'ubururu aha ni kimwe mu bikorwa bari gukora ngororamubiri.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru barimo gukina. Harimo ikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu n'umukara, indi ikaba yambaye umweru n'umuhondo, barimo gukinira mu kibuga cyiza kirimo ubwatsi, aho kimwe ari kimwe mu bugorora mubiri mu mupira w'amaguru nawo ukaba urimo.

Abantu barimo gukina umupira w'amaguru. Aho bari gukinira mu kibuga cy'itaka. Nta bwatsi burimo. Gusa ni amakipe abiri. Aho barimo gukina umukino kugira ngo bagorore umubiri.

Abantu bari mu kibuga bitegura gukina umupira ni amakipe abiri aho ikipe imwe yambaye umuhondo n'umukara indi yambaye ubururu bwijimye, aho umukino ugiye gutangira bameze nk'abarimo gusuhuzanya akenshi ibi ngibi bikorwa nk'igikorwa ngororamubiri.

Abagabo batatu bahagaze mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Aho bambaye impuzankano zisa, bigaragara ko bakinira mu ikipe imwe. Bambaye imipira y'umuhondo n'umukara n'makabutura y'umuhondo. Aha baba bari gukora igikorwa ngororamubiri, binyuze mu gukina umupira.

Ibikombe bibiri ndetse n'imidari, aha ni ibihembo bikunda guhabwa abakinnyi bitwaye neza kurusha abandi. Mu gihe habaye nk'amarushanwa mu mukino runaka haba umukino w'amaboko cyangwa w'amaguru noneho ikipe imwe igatwara igikombe cyangwa ikegukana irushanwa, bayihemba igikombe ndetse abakinnyi bakabambika n'imidari.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bagiye gukina ikindi gikorwa ngororamubiri gikunda gukorwa n'abantu benshi aho abantu bahura cyangwa amakipe abiri agahura agakina kandi nanone abagiye gukina ni abakobwa.

Amakipe abiri arimo gukina umupira w'amaguru, iki ni igikorwa ngororamubiri gikorwa n'umuntu uwo ari we wese, barimo gukinira mu kibuga kiza kirimo ubwatsi, ikipe imwe yambaye umuhondo n'umukara indi yambaye umukara ndetse n'ubururu.

Abantu barimo gukina umupira w'amaguru, ikipe imwe yambaye imyenda y'umuhondo n'umukara, indi yambaye umukara wijimye ndetse n'ubururu, aho barimo gukina umupira mu kibuga cyiza cy'ubwatsi.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru ari mu kibuga. Aho ameze nk'uwari umaze gukina umupira, ukaba uri hejuru, utaragwa hasi na we akaba adahagaze neza. Ari mu kibuga cy'umupira w'amaguru cy'ubwatsi. Aho nta bandi bakinnyi barimo kugaragaramo.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru barimo gusuhuzanya aho bagiye gutangira gukina, aha ni mu kibuga kitari cyiza cyane cy'itaka, nta bwatsi burimo aho bagiye gukinira, kandi na none iki ni igikorwa ngororamubiri gituma umubiri ugororoka ukamera neza.

Umuhanda uri ahantu haringaniye hadaterera urebye haratambika kandi impande y'aho hariho indabyo nziza cyane ndetse n'inzira z'abagenzi, mu muhanda nta kinyabiziga kirimo.

Abakobwa babiri barimo kugenda mu nzira z'abanyamaguru impande ya kaburimbo, iruhande rw'aho kandi hari ivuriro rivura abarwayi, aha ni muri kaburimbo kandi nta kinyabiziga kirimo iryo vuriro riri ku ruhande rwa kaburimbo, abanyamaguru na bo babiri barimo kugenda mu nzira y'abanyamaguru.

Umugabo arimo kugenda mu muhanda w'igitaka, umuhanda muto urimo imikuku mito mito bivuze ko ahangaha aho umuhanda ujya mu baturage igiye itandukanye, aho iba inyuramo ibinyabiziga bikeya.

Umuhanda wa kaburimbo kandi uriho n'inzira y'abanyamaguru harimo abanyamaguru batatu harimo umukobwa umwe n'abagabo babiri bamwe babiri barimo kuza umugabo umwe arimo kugenda kandi uyu muhanda wegereye inyubako.

Umuntu ari muri kaburimbo, aho arimo gukora amasuku arimo gukubura kugira ngo umuhanda use neza, ibi bikunze gukorwa mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi ma kaburimbo atandukanye yegereye umujyi kugira ngo babashe kunoza isuku mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo, uri ahantu hameze nko mu cyaro, hakurya hari imisozi irimo amashyamba, mu muhanda kandi harimo imodoka nini yakwitwa nka fuso cyangwa ikamyo, aho iri umuhanda yonyine nta bindi binyabiziga birimo.

Umubyeyi uri mu muhanda, ahetse umwana ndetse afite n'undi mwana mutoya uri kugenda n'amaguru, bari mu muhanda w'igitaka aho impande zabo hari amazu ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, harimo urutoki n'amashyamba.

Umuhanda wa kaburimbo. Urimo moto imwe irimo kugenda. Aho hari iyindi iparitse ku muhanda, mu nzira y'amaguru na ho harimo umuntu umwe urimo kugenda. Impande y'umuhanda kandi iburyo n'ibumoso hari inzu, zimwe z'ubucuruzi indi ni igipangu.

Abakobwa batatu barimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo aho bari mu nzira z'abanyamaguru, inyuma y'aho hari umuntu utwaye moto uri muri kaburimbo, nta bindi binyabiziga birimo kandi burije.

Umuntu utwaye igare muri kaburimbo, ameze nk'umuntu urimo kumanuka yambaye isengeri kandi nta wundi muntu ahetse, inyuma ye hari imodoka irimo gukata ishaka kuva muri kaburimbo, ndetse na moto irimo kuzamuka impande ye kandi hari inzu z'ubucuruzi.

Moto ebyiri ziri mu muhanda, izindi ziparitse ku ruhande. Ni moto zirimo ubwoko bumwe, aho zirimo kugenda zisa nk'izimanuka. Abandi baraparitse. Inyuma yaho hari indi modoka irimo kuza. Uruhande rumwe hari abanyamaguru rurimo kugenda ndetse n'urundi hari abanyamaguru barimo kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo ni umuhanda mwiza urimo abantu bari kugenda n'amaguru ndetse n'imodoka imwe irimo kurenga. Umuhanda kandi utarimo ikindi kinyabiziga usibye imodoka imwe nabo bantu babiri. Impande yaho hari izindi nyubako zitandukanye ndetse inyuma yaho hakaba hari ishyamba.

Mu muhanda wa kaburimbo utarimo ikinyabiziga ariko mu nzira z'abagenzi harimo umukobwa n'umuhungu barimo kugenda muri iyo nzira abagenzi. Nta bandi bantu bari muri kaburimbo. Impande yabo kandi hari ibimera, ahantu hameze nk'aho hadatuye abantu benshi.